Umurima munini utemo ibigori urimo umugabo uri gutera umuti wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara ndetse ahetse ipompo ifite amabara atandukanye higanjemo ay'umuhondo ndetse n'ubururu, hirya ye cyane hari ikiyaga kigizwe n'amazi menshi ndetse n'ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi.

Umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye, urimo umugore w'umwirabura ufite imisatsi y'umukara, wambaye amaherena ku gutwi, yambaye agapira karimo ibara ry'umutuku, karimo uturongogo tw'umweru dutandukanye ndetse yambaye ipantaro iririmo ibara ry'umukara, ahetse ipopo mu mugongo iririmo ibara ry'umuhondo ari kwifashisha atera umuti ibihingwa.

Ni umugabo uhetse ikijerekani cyabugenewe mu ntoki kirimo umuti arimo arafuhirira ibihingwa by'inyanya, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'umweru.

Inzu nini ibikwamo umusaruro irimo abantu batandukanye ndetse isize irangi ry'umweru, harimo umugore wambaye itaburiya iri nmu ibara ry'ubururu ndetse arunamye, iruhande rwe hari agatebe gakozwe mu mbaho, kariho umunzani uriho akabase k'ubururu karimo amvilope, hirya gato hari umugore wambaye bote ziri mu ibara ry'umukara, wambaye itabuririya iri mu ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bafite amapompo mu mugongo barimo barafuhira imyaka kugira ngo iyi myaka itarwara, ni babiri bahetse ibi bikoresho bitwara imiti.

Umusore ufite indobani mu ntoki, yambaye ishati ya karokaro, afite indobani iriho ifi ndende, bigaragara ko havuye kuyisarura.

Ahantu hari ibyatsi hahagaze umugore ukennye igitambaro mu mutwe ndetse wambaye umupira ndetse yambaye ikanzu, inyuma ye hari icyuzi cyorererwamo amafi kigizwe n'amazi menshi, inyuma yacyo hari umurima munini uteyemo insina zitandukanye.

Icyuzi kinini kirimo amazi menshi, kirimo abagabo bari kuroba, umwe muri bo yambaye ingofero y'ubururu, imbere ye hari umugabo wambaye umupira ugizwe n'amabara atandukanye yiganjemo ay'umweru n'umukara ndetse iruhande rwabo hari umusore utambaye hejuru, wambaye ipantaro y'umukara, bose bafite indobane irimo amafi.

Ibyuzi byinshi byoroherwamo amafi kimwe muri byo kirimo amazi yanduye, hejuru yacyo hari umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu, bote z'umuhondo ndetse yambaye isaha ku kuboko, kandi yambaye ipantaro y'ikoboyi ari kugaburira amafi.

Umugore w'umwirabura, ufite umusatsi w'umukara ndetse ufite ifi mu ntoki. Yambaye ikanzu igizwe n'amabara atandukanye, yiganjemo iry'umutuku. Hirya ye hari umugore wicaye wambaye igitambaro mu mutwe. Inyuma yabo hari umusozi uriho ibihingwa bitandukanye higanjemo ibiti by'inturusu.

Umugabo ufite inkoni mu ntoki wambaye isaha ku kuboko umupira w'umukara wanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse yambaye ipantaro, inyuma ye hari ibyuzi by'amazi bigizwe n'amazi yanduye ndetse iruhande rwe gato hari ihene igizwe n'amabara atandukanye higanjemo iry'umweru.

Umurima munini urimo ibyatsi byinshi ndetse n'imigwegwe, hirya gato hari ibyuzi byoherwamo amafi bigizwe n'amazi menshi, byubatswemo utuzu duto dukozwe mu mbaho, imbere cyane hari umusozi munini uriho ibiti bitandukanye.

Ikawa ni igihingwa k'iterambere kifashishwa mu gihugu cyacu ndetse kikoherezwa i mahanga bityo kikatuzanira amadovize.

Ahantu hari ibyatsi hari ababyeyi benshi bari gutunganya umusaruro ukomoka ku bihingwa, babiri muri bo barunamye bafite ibitambaro mu mutwe ndetse bakenyeye ibitenge kandi bafite ibikoresho biri mu ibara ry'umuhondo, hirya gato hari umubyeyi usutamye wambaye ijipo irimo mu ibara ry'umutuku.

Umugabo w'umwirabura wambaye ishati irimo amabara atandukanye, arimo umukara n'umweru ndetse yambaye ipantaro iririmo ibara ry'umukara, afashe ku cyapa giteye mu ishyamba, gifite ubuso bw'umukara, cyanyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Ibihingwa bihingwamo igishanga, akenshi birera kuko mu gishanga ni hamwe mu hagira ifumbire, bityo umuhinzi ntabwo agombera gushyiramo ifumbire nyinshi.

Igishanga kirimo amazi giteyemo igihingwa cy'umuceri, imbere yacyo hari abasore batandukanye, harimo umusore wambaye ingofero y'umweru, umupira w'umweru ndetse n'ikabutura, imbere ye hicaye umuntu wambaye ishati irimo amabara atandukanye yiganjemo umutuku.

Utujerekani duto ndetse n'amacupa y'imyeru, harimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, yaba ingurube, inka ndetse n'intama.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi ndetse n'ubutaka, kirimo inka zitandukanye, higanjemo izifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, hirya yazo hari umurima munini utema ibiti ndetse hirya cyane hari imisozi minini iriho ishyamba rigizwe n'ibiti.

Ikiraro cyubakishijwe ibyuma kirimo inka zitandukanye zifite amabara atandukanye higanjemo ay'umweru ziri kurya ibyatsi, igikorwa cy'ubworozi ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu kuko gituma tugira amafaranga ndetse tukabaho ubuzima bwiza.

Umurima munini, urimo abantu batandukanye, harimo umugabo upfukamye wambaye ingofero irimo ibara ry'umukara, umupira w'icyatsi, isaha ku kuboko ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, ari gutera igihingwa, inyuma ye hari umugabo wambaye ipantaro iririmo ibara ry'umukara.

Umurima urimo ibihingwa, urimo abagabo bari gusoroma bafite imifuka iri mu ibara ry'umweru, umwe muri bo arunamye yambaye itaburiya iri mu iba ku ry'uburu ndetse n'ingofero iri mu ibara ry'umukara. Hirya ye hari umugabo usutamye wambaye ishati y'umweru ndetse yambaye ipantaro.

Umusozi munini ugizwe n'ishyamba ririmo ibiti bitandukanye, hasi yaryo hari umurima munini urimo abantu bari gukora imirimo itandukanye, umwe muri bo arahagaze, yambaye imyenda irimo ibara ry'umuhondo, hirya ye hari umugabo uri kugenda wambaye imyenda iririmo ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi n'ingofero arimo arareba hejuru ari munsi y'igiti, ni umuhinzi biragaragara ko yishimiye umusaruro.

Umurima munini utewemo ibigori, imbere yawo hari umugabo uri guhinga wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru, ipantaro y'umukara, inyuma ye hari umugabo wambaye ingofero ndetse inyuma ye gato hari umusirikare wambaye impuzankano y'Igisirikare cy'u Rwanda wunamye.

Abantu bari mu murima ni abahinzi barimo barakorakorwa by'ubuhinzi, bamwe barimo bara imbuto, abandi bikoreye ibyo bavuye gusarura.

Umurima munini utewemo ibihingwa bitandukanye, urimo umugore uri guhinga wambaye ikanzu igizwe n'amabara atandukanye, hirya gato hari umusozi munini uteweho ibihingwa bitandukanye, ndetse uriho inzu zitandukanye zituwemo n'abantu.

Umurima munini urimo ibigori, imbere yawo hari ibiti bitandukanye, imbere cyane hari imisozi minini iteweho ibihingwa bitandukanye, higanjemo amashyamba agizwe n'ibiti byinshi bifite amashami, hejuru hari ikirere kinini kiri mu ibara ry'umweru.

Umurima munini uhinze hirya gato hari umurima muremure urimo insina nyinshi zifite amakoma, imbere yawo hari inzu nziza yubakishijwe amatafari isakajwe amabati ndetse iruhande rwayo hari ibiti biyikikije higanjemo ibifite amashami maremare.

Igiti giteye hagati mu murima ni umwembe, umwembe ni urubuto rwiza rufasha gukora igogora mu gihe cyo kurya, ruteye ahantu heza ruzakura neza.

Mu gishanga ahahinzwe ibigori, urabona ko bahuje ubutaka, ibi bituma umusaruro wiyongera bityo umuhinzi agahora ku isonga.

Umusozi muremure hariho ikirere gisa nabi biragaragara ko imvura igiye kugwa, ni umusozi uterera munsi yawo hari inyubako, hano hafi aha hari ibigori bisa neza.

Umurima munini. Urimo ibihingwa bitandukanye, ndetse uteyemo ibigori byumye. Imbere gato, hari inzu isakajwe amabati, ndetse hari n'ibiti bifite amashami maremare, afite amababi ari mu ibara ry'icyatsi.

Ikiganza cy'umuntu w'umwirabura gifite imbuto y'ikirayi mu ntoki, hasi yacyo hari umurima uhinze urimo imbuto z'ibirayi nyinshi, ni byiza gufata neza ubutaka kuko tubukoresha duhingamo ibihingwa bizadutunga iminsi myinshi.

Igihingwa cy'ibijumba burya cyera ku migozi, imigozi nkiyi igira ibijumba biryoha, aha ni mu murima ariko uyu muririma uri iruhande rw'inzira.

Igihingwa cy'umyumbati kiri hagati mu murima, iruhande rwacyo hari urupangu rw'amabati. Ni umurima uhinze biragaragara ko bitegura guhingamo imyaka.

Ishyamba rinini ririmo ibiti birebire ndetse n'ibyatsi bitandukanye, ibi biyunguru umwuka, duhumeka, tukabaho neza, tutarwara indwara z'ubuhumekero.

Ishyamba rinini rigizwe n'ibiti byinshi, bifite amashami maremare, ndetse ariho ibibabi munsi yabyo hari umukobwa wambaye inkweto nziza, ipantaro y'umukara, ndetse n'ingofero. Amashyamba ni ingirakamaro, kuko akurura umwuka duhumeka.

Ibiti birambitse hasi ibindi biracyahagaze, iki gikorwa kitwa gusarura ishyamba, aha iyo ibiti byeze biba bigomba gusarurwa.

Ababyeyi babiri umugabo n'umugore bambaye udupfukamunwa, bafite imbuto binajije, bavuye kuzikura aho zari ziri.

Umurima munini uteyemo amashu, urimo umubyeyi ukenyeye igitambaro mu mutwe. Wambaye umupira ugizwe n'amabara abiri, umukara ndetse n'umweru kandi akenyeye igitenge kigizwe n'amabara menshi, yiganjemo iry'umutuku. Inyuma cyane hari amazu menshi atuyemo abantu.

Isoko ririmo abategarugori batatu, imbere yabo hateretse umusaruro w'inyanya nziza, zirambitsweho inkoko ndetse n'indobo y'icyatsi.

Intoki zumuntu w'umwirabura, wambaye umupira w'ibara ry'umutuku, zifashe akabase gatoya karimo ibiduduki, hirya yako hari umugore ufashe ibase iri mu ibara ry'ubururu, irimo ibitunguru biri mu ibara ry'umutuku.

Imodoka nziza, igizwe n'amapine y'umukara, ibirahuri, imbere yayo hateye igiti kinini kigizwe n'amashami maremare afite ibibabi by'icyatsi ndetse harimo imbuto z'imyembe, imbere gato hari igipangu kinini cyubakishijwe amabati, ku ruhande hari indabo zikase neza.

Umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye urimo umugore wunamye witeze igitambaro mu mutwe ari gucucira ibihingwa akoresheje indobo iri mu ibara ry'umuhodo, hirya ye hari umugore ukenyeye igitenge ndetse uteruye umwana wambaye akagofero kagizwe n'amabara atandukanye higanjemo iry'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi, afite umupira mu ntoki, arimo aravomerera imyaka, yitandiye n'undi mupira mu ijosi rye.

Umugezi utemba ku ruhande rwawo hari abantu batandukanye harimo umugore wambaye umupira w'umutuku ndetse akenyeye igitenge kandi afite agapaniye mu ntoki, ku ruhande rwe hari umugabo wambaye akagofero, umupira wa oranje ndetse yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara, iruhande rwabo hari umurima munini uteyemo ibihingwa bitandukanye.

Ubuhinzi buteye imbere bwitwa Green house, harimo abahinzi bambaye amatabiriya y'imyeru, ubu buhinzi burimo aho imashini zuhira imyaka.

Umurima uteyemo imboga, urimo umusore ugucucira wambaye kamambiri, ndetse wa hemye ipantaro, kandi yambaye umupira uri mu ibara rya orange. Inyuma ye hari umusaza wambaye ikabutura y'ikoboyo, ikoti ry'umukara kandi yambaye ingofero irimo ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ipantaro afite ikidahisho mu ntoki n'isuka, arimo aradahira imyaka yiwe ayivomerera kugira ngo iticwa n'izuba.

Mu buhinzi buteye imbere haba harimo n'aho imashini zifuhira imyaka, ibi bituma mu gihe cyo mu cyi ibihingwa bitangirika bigakomeza gutoha.

Amazi menshi inyuma yayo hari umugabo wunamye wambaye umupira w'umutuku ndetse inyuma ye hari amatafari ageretse, iruhande rwayo hari umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ikabutura ndetse na bote.

Umurima munini uteyemo ibigori, urimo umugabo uri gucocira wambaye ingofero, umupira ugizwe n'amabara atandukanye higanjemo ry'umutuku ndetse yambaye ipantaro y'ikoboyi, imbere cyane hari imisozi minini igizwe n'amashyamba arimo ibiti bitandukanye.

Umugore ufite ibisuko wambaye agapira ndetse n'ishapure mu ijosi kandi yambaye udukomo twinshi ku kuboko ari gucucira ibihingwa akoresheje rozwari iri mu ibara ry'icyatsi, hirya gato hari umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye ndetse hirya gato hari ishyamba rigizwe n'ibiti.

Umunara munini wubakishijwe ibyuma bifashishwa mu gukwirakwiza amarezo, imbere y'aho hari ikiyaga kinini kigizwe n'amazi menshi meza gikikijwe n'imisozi minini iriho ibiti ndetse iriho amago atandukanye atuyeho abantu.

Imisozi myiza iteyeho amaterasi, aya materasi adufasha gukumira inkangu ndetse n'isuri bityo bikaturindira ubutaka.

Imisozi minini itandukanye, iteweho ibihingwa bitandukanye ndetse iriho amashyamba agizwe n'ibiti byinshi, hejuru yayo hari ikirere kigizwe n'amabara abiri, ubururu ndetse n'umweru, ni byiza neza gufata amashyamba kuko akurura umwuka duhumeka.

Aha ni mu misozi, imisozi miremire ikirere gisa nkaho ari umukara ndetse harimo n'ibicu by'imyeru aha hateye ubwuzu iyo uhareba uri hejuru mu mpinga.

Igiti cy'inturusu kigizwe n'amashami maremare imbere yacyo hari umugezi utemba urimo amazi menshi yanduye, imbere yawo hari umusozi munini uriho ibihingwa bitandukanye higanjemo intoki, hirya yaho gato hari ikirere kigizwe n'ibara ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara urimo imodoka yifashishwa mu gutwara abakerarugendo. Iruhande rwawo hari umurima munini urimo ibigori ndetse imbere gato hari ishyamba rinini rigizwe n'ibiti byinshi kandi imbere cyane hari ikirunga cya Sabyinyo.

Ikiraro cya kijyambere cyubakishijwe ibyuma ndetse gisakaye kirimo inka nyinshi zitandukanye, imbere yazo hari umugabo wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara kandi yambaye inkweto.

Ubworozi bw'amatungo cyane cyane ingurube ni bumwe mu butuma umuntu akira vuba, iyi ni ingurube urabona ko yabwaguye ibibwana.

Umugabo, w'umuveterineri, wambaye itaburiya y'umweru ari imbere y'amatungo, arizo nka, ndetse zubakiye ahantu heza, ndetse ni ubworozi bwa kijyambere.

Amatungo ari mu bwoko bw'ihene, ni amatungo yororoka cyane kandi vuba. Ari mu mabara y'umweru ndetse na kaki, arimo ararisha mu gihuru.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi kirimo umugabo wambaye umupira ndetse n'ipantaro y'umukara, ari gufotora, imbere ye hari inka zitandukanye higanjemo iziri mu ibara ry'umukara, ndetse hateye ibiti bifite amashami maremare afite ibibabi by'icyatsi.

Inzu nini iteye ibyondo, inyuma yayo hateye insina, imbere yayo hari umugore w'umwirabura ufite umusatsi w'umukara uri guseka, wambaye ikanzu ndetse afite igikoresho cy'intara, kiriho ibishyimbo biri mu ibara ry'umutuku.

Umusaruro ukomoka ku bigori, imbere yawo hari imbaga nyamwinshi y'abantu bahagaze higanjemo abagabo, hari umugore ufite ibisuko by'umukara wambaye umupira w'umweru ndetse imbere ye hari umusaza wambaye ishati kandi ufite imvi ziri mu ibara ry'umweru.

Umusaruro w'igihingwa cy'ibigori, imbere yawo hari abantu batandukanye, hari umugore wunamye wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'ikobyi, ku ruhande gato hari umugore uhagaze wambaye ipantaro y'umukara, umupira uri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ingofero, inyuma yabo hari umurima munini urimo ibyatsi bitandukanye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo amakaro menshi arimo ibara ry'umweru, ndetse cyicawemo n'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, iri mu ibara ry'umweru afashe umuti uri mu ibara ry'umweru, ndetse n'umutuku.

Akayira gato gafunganye, kazitijwe ibyuma biri mu ibara ry'umukara, karimo inka zitandukanye zifite amahembe manini, hirya yazo hari abaveterineri bambaye impuzankano igizwe n'amatarabura y'umweru, inyuma gato hari umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi.

Akayira gato kubabakishijwe ibyuma biri mu ibara ry'umukara karimo inka zifite amahembe maremare imbere yazo hari abantu benshi bahagaze higanjemo abambaye amataburiya ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'abambaye amataburiya ari mu ibara ry'umweru.

Ikibuga kirimo ibyatsi byinshi, imbere yacyo hari akayira gacamo inka kazitijwe ibyuma birimo ibara ry'umukara ndetse karimo inka zifite amahembe manini, inyuma yazo hari abantu benshi higanjemo abambaye amataburiya ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo parafo, ndetse kirimo amadirishya manini arimo ibirahuri, kirimo umuganga w'umugabo wambaye ingofero y'ubururu mu mutwe, ndetse n'agapfukamunwa, kandi yambaye impuzankano y'abaganga, afite urupapuro mu ntoki ndetse n'ikaramu.

Akayira gato, kazitijwe ibyuma biri mu ibara ry'umukara, karimo abantu batandukanye, harimo umugabo wambaye igisarubeti kiri mu ibara ry'ubururu, imbere ye hari umugore w'umuganga, wambayetaburiya ndetse na gazi'i ibara ry'ubururu, afite igikore mu ntoki.

Ikiraro k'inka kizitijwe ibyuma biri mu ibara ry'umukara kirimo inka ifite amahembe manini, hirya yayo hari umugabo wambaye itaburiya iri mu ibara ry'ubururu ndetse na bote ziri mu ibara ry'umweru, inyuma ye hari inka nini ifite amahembe maremare.

Akayira gato gafunganye kazitijwe ibyuma biri mui ibara ry'umukara karimo inka, hirya yako hari umuveterineri w'umuhungu wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru ndetse na ga ziri mu ibara ry'uburo ari kuvura inka.

Ikiraro gisakaye cyubakishijwe ibiti, imbere yacyo hari igikapu kinrimo ibara ry'umukara ndetse imbere yacyo hari umuveterineri wambaye agapfukamunwa, impuzankano ya veterineri igizwe n'itaburiya iririmo ibara ry'ubururu ndetse ari gusuzuma umuti w'amatungo.

Ikibuga kirimo ibyatsi bitoshye, kirimo inyamaswa y'agasozi iri kurisha ndetse ifite amahembe, hirya gato hari umugezi urimo amazi atemba ndetse hirya gato hari ibuye rinini, hirya hari ikibuga kigizwe n'ibyatsi.

Ishyamba rinini, rigizwe n'ibyatsi byinshi, ririmo inyamaswa y'agasozi, igizwe n'amabara atandukanye, yiganjemo iry'umweru, ifite amatwi maremare ndetse n'umunwa uri mu ibara ry'umukara. Ni byiza gufata inyamaswa neza kuko nazo ziri muri bimwe mu bidukikije.

Inyoni zo mu mazi zikunda kwitwa ibishuhe. Zibera mu mazi ndetse ni ho zibyarira zikororokera.

Inyamaswa zo mu gasozi akenshi habamo n'inyoni, ib ni ibishuhe biba mu mazi, bikunda kwibera mu mazi, imbere yabyo hari indabo zitoshye zimeze neza.